Ikigo cy'ishuri cyubatswe n'inyubako za kijyambere. Hariho abantu bigaragara ko barimo gutegura ibirori bigiye kuba. Barimo kwesitara ibikoresho bitandukanye.

Ikigo cy'shuri ribanza giherereye iruhande rwa kaburimbo, ubona ko byoroshye kuhageza abanyeshuri, ndetse n'abafite ubumuga byakoroha kubahageza.

Ahabikwaga ibikoresho bitandukanye byifashishwaga mu kwigishirizwaho abana ku buryo bitateza umwanda n'akajagari n'impanuka.

Ibirango n'amabwiriza by'ikigo cy'ishuri ca kampanga bigaragara ku cyapa kinini mu mabara atandukanye harimo icyatsi, umweru n'ubururu.

Ni ibirango bigaragaza ikigo cy'ishuri giherereye ahantu runaka mu cyaro cyangwa se mu mijyi, ubona ko gitanga ubumenyi.

Icyumba cy'ishuri cyubatswe ku buryo bugezweho. Ubona ko harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myigishirize y'abana harimo n'izi ntebe.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyingiro mu budozi bw'inkweto barimo gukora umukoro ngiro ku byo biga mu masomo yabo.

Ni urubyiruko rw'abanyeshuri biga imyuga y'ubusuderi kugira ngo izarufashe mu kwiteza imbere, nyuma yo kurangiza kwiga.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bari kumwe n'umwarimu wabo, barimo kumwereka imikoro y'ibyo bakoze na mwarimu wabo arimo kubakosora.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubukerarugendo bari kumwe n'abarimu babo, bamwe bicaye abandi bahagaze bifotoreje ku gisitati kiri mu Kinigi.

Ikigo cy'ishuri ryisumbuye cyigisha ibijyanye n'ubugeni, bigaragara ko abanyeshuri barimo gukora imikorongiro ijyanye n'ibyo bigira kuri icyo kigo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ibijyanye n'ubukerarugendo, barimo gukoresha, ibikoresho byifashishwa na ba mukerarugendo, igihe batembereye muri za parike.

Abanyeshuri biga umwuga wo guteka, bifashishaga ibikoresho bya kijambere mukoni bigezweho, ubona ko bigaragara neza.

Ni ikigo cy' amashuri, abana bigaga ho bari mo kugaragara bakoma mu mashyi, bagaragaza ibyishimo n'umunezero w'ibyo bari mo kumva.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ibijyanye n'umwuga w'ubwubatsi. Bigaragara ko bari kwimenyereza umwuga w'ibyo biga.

Abanyeshuri biga amasomo ajyanye no kwakira no kugaburira abantu mu mahoteli no mu tubare, barimo gukora igeragezwa ,cyangwa se imenyerezamwuga mu byo biga.

Abanyeshuri biga mwu ishuri ryigisha ibijyanye n'ubukanishi bw'ibinyabiziga, barimo gukora ubumenyingiro mu byo biga.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubukanitsi bw'ibinyabiziga, barimo gukora igerageza ku bikoresho byifashishwa mu gutwara imodoka.

Abanyeshuri biga ibijyanye no gukwirakwiza amazi, barimo gukora imenyerezamwuga mu kigo cy'ishuri, bigiramo ayo masomo.